Ibafu irimo ibinyomoro, bikaba bidatukuye cyane, bigaragara ko bidahiye neza, bikaba ari ibinyomoro byinshi bitoya bitari binini, impande yabyo hakaba hari umuntu wambaye inkweto z'umuhondo.

Abana bambaye impuzankano zitandukanye. Aho harimo abambaye iz'umutuku, abandi umweru. Bakaba bari hafi n'ikigo cy'amashuri kizitiye hakoreshejwe senyenge, zifashe ku byuma.

Ikibuga cy'imikino y'amaboko, kikaba ari ikibuga gikoze neza kizitiye n'ibyuma ndetse n'inkuta z'amatafari ahiye, kikaba kirimo amabara y'umuhondo ndetse n'ay'ubururu, ibyuma batsindamo, bikaba na byo bifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu irimo amabara y'umuhondo, akaba afashe ku ngurube ikiri ntoya ifitemo amabara y'umukara, ikaba iri mu nzu yayo yubakiwe kugira ibemo, ikoresheje ibiti uruhande rumwe, urundi ruhande ari igikuta cyubakishije amatafari.

Inyamaswa yo mu ishyamba ifite ubwoya bwinshi ku mubiri wayo, ikaba ifite intoki nk'iz'abantu nubwo ari umukara zikaba ziriho n'ubwoya, ifite amaso y'umuhondo ndetse n'utundi twoya impande yayo tw'umweru.

Umukobwa witeze igitambaro mu mutwe akaba yambaye umupira w'umukara, afashe itaka mu ntoki ze bigaragara ko arimo gutunganya ubutaka bwenda kuzahingwaho kugira ngo bube bumeze neza.

Abantu bicaye hejuru ku gikwa barimo kubaka bakoresheje amatafari ahiye, bakaba bambaye ingofero z'umutuku, undi umwe akaba yambaye ijiri y'icyatsi, ahantu bari kubaka hakaba hazengurukishije amabati.

Utubati dukozwe mu biti ndetse n'ibyuma, duteretsemo ubudomora butoya bwinshi bw'ibara ry'umweru, bukaba burimo imiti y'inyamaswa ndetse n'iy'ibimera ndetse bikaba bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.